Umukobwa wambaye ingofero isa umweru ndetse n'umupira w'ubururu. Afite imisatsi myiza cyane. Afite kandi amafaranga mu ntoki ze ndetse n'urupapuro. Ahagaze imbere y'imashini ibikura amafaranga.

Akazu gatangirwamo serivise zijyanye no kohereza, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ukoresheje mobayilo mani, abagabo babiri umwe ahagazemo imbere, undi ahagaze hanze, arimo kumwereka ibintu muri telefoni bisa nk'aho hari serivise ashaka kumuha.

Akazu gafite ibara ry'umweru handitseho amagambo BPR hafi ajenti, gakorerwamo n'aba ajenti ba banki y'abaturage.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'umukara urimo gufungura akazu ka sosiyete y'itumanaho ya Airtel gafite irangi ry'umutuku ndetse n'umweru handitseho amagambo Aitel money, mo imbere hasa ubururu.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN mu Rwanda kicayemo umu ajenti wa MTN arimo arakira abaje kumugana kugira ngo abahe serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura.

Akazu gakoreshwa n'aba agent ba sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene mu Rwanda, karafunze kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku MTN Mobile money.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho Eyateli mu Rwanda nta muntu ukicayemo, iruhande rwako harindi ntebe ndetse n'ameza ashinzemo umutaka wa Eyateli, inyuma yaho gato hari akandi kazu ka MTN.

Imodoka ya sosiyete y'itumanaho ya MTN mu Rwanda irimo umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse hanze hari undi mugabo wambaye ishati y'icyatsi arimo kumwereka muri terefone birasa nk'aho hari serivise ari kumuha.

Umumama uhagaze mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi bwibikomoka ku mata afite imisatsi inyerera arimo guseka afite akanyamuneza arishimye arimo kwerekana ibyo akora.

Inyubako ikorerwamo ubworozi bw'inko zifite amabara y'umweru ndetse n'ibirokoroko by'umutuku, harimo umuntu wambaye imyenda isa icyatsi arimo kuzitaho areba uko ubuzima bwazo bumeze.

Inyubako ya koperative ya Katabagemu ifite amarangi asa ubururu bwerurutse ndetse imbere ku muryango hari amagambo ari mu mabara y'ubururu yanditseho miliki colection center mo imbere harimo ipikipiki.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, imbere yazo haparitse amamodoka ndetse hirya gato hari inzu, imbere yaho hari akazu ka sosiyete y'itumanaho ya Eyateri mu Rwanda.

Itente idakoreshejwe ibitambaro biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hicayemo abagabo ndetse n'abagore bose bateze amatwi ibyo bari kubabwira.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze, yambaye ga zisa umutuku, ndetse n'ikositimu. Imbere yambariyemo umupira usa ubururu. Iruhande rwe hari abandi bagabo bahagaze barimo kwitegereza inanasi, imbere y'izoanasi hari abandi bagabo bari kwitegereza uwonguwo.

Abagabo abagore bari hamwe bari kwanika ibigori, uko bigaragara baranezerewe kubw'umusaruro mwiza babonye.

Amatente ateye ahantu ari mu ibara ry'umweru, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hicayemo abantu benshi bateze amatwi, imbere yabo hari umumama wambaye ikote ry'umweru ndetse n'ikanzu y'umutuku arimo arabaganiriza.

Abagabo babiri bambaye amakositimu, mo imbere bambariyemo amashati asa umweru ndetse bambaye na karuvati. Bari gusuhuzanya ndetse bahererekanya n'impapuro. Inyuma yaho gato, hari ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika y' u rwanda.

Umumama wambaye ishati y'umweru ndetse na baji mu ijosi, ari guseka ndetse iruhande rwe hari igikuta kiriho shitingi y'ubururu, hari umufuka usa umweru urimo amakara.

Inzoga ni kimwe mu binyobwa bikunzwe n'abatari bake hano ku isi, ni nyinshi ziratondetse kandi zirasa neza, uzikeneye yaza akazibona.

Ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari inzoga yitwa Henikeni iyitwa Mitsingi ndetse n'uducupa tubiri twa fanta biteretse ahantu ku meza ni mu kabari.

Isoko ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye, imineke, pome, imyembe, amaronji ndetse na avoka harimo abantu b'urujya n'uruza baje guhaha izo mbuto.

Inyubako iteye karabasasu ihagazeho umuntu wambaye umwenda wacitse, hejuru kuri iyo nyubako hariho igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kwerekana imipira ndetse n'izindi shene zo hanze, hirya gato hari indi nyubako ifite amabati y'umutuku.

Umumama wambaye amarinete ndetse wambaye n'agapira gafite amabara umuhondo, umweru ndetse n'umukara. Afite akuko mu ntoki ze bisa nkaho arimo kuvanga ifu. Ahagaze muri boutique.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse ifite n'imifuka imbere ibiri n'undi wambaye umupira w'umukara harimo n'uturongo tw'umweru barimo baraganira umwe yaje kugura igikoresho ashaka.

Amavuta afite ibara ry'umutuku, hariho umukobwa ufite imisatsi inyerera, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ubururu Miyadi.

Akabido gafite umufuniko usa umweru gateretse ahantu konyine. kanditseho ijambo riri mumabara asa ubururu karungi, hariho n'andi magambo agiye atandukanye.

Umugore wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'isaha ku kuboko. Yambaye umupira w'umuhondo ndetse akenyeye n'igitenge iruhande rwe hari undi muntu wambaye ingofero mu mutwe ndetse wifashe no kwitama yicaye mu bicuruzwa byinshi bitandukanye.

Ibinyobwa biteretse ahantu, izwi ku izina rya inaji ni byinshi ndetse bizwiho ko uwabinyoye agira akabaraga, nk'uko izina ryabyo ribivuga.

Inzu zifite imiryango isize ibara ry'umweru. Ebyiri muri zo zirafunguye, imwe ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Harimo ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'isuku.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa, bigiye bitandukanye, Amavuta, imiceri, kawunga, amasukari, imyunyu, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hirya gato harindi nyubako yanditseho ijambo kinkayori, bacururizamo ibikoresho by'ubwubatsi.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye amakanzu asa umweru ndetse hazengurutseho agatambaro gasa umutuku ndetse na shokora. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hari n'inyubako.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana biga garidiyene, bose bafite ibitabo bari gusoma, barahuze ndetse na mwarimu ubafasha mu myigire yabo arimo kugenzura niba bari kwiga neza; ku nkuta hashushanyijeho ibishushanyo b'inyamaswa zitandukanye harimo: urukwavu, imbata ndetse n'ihene.

Umugabo n'umumama bapfukamye ndetse bafatanye, hirya yabo hari abandi bagabo ndetse na bamama bari kubareba ibyo barimo gukora.

Abagabo benshi bateraniye ahantu mucyumba. Bose bambaye amakositimu ndetse bambaye'udupfukamunwa bamwe muri bo barapfukamye, barimo gusenga kugirango ibikorwa byabo bya buri munsi bigende neza, hari n'intebe bicayeho.

Inyubako nini cyane ifite umusaraba hejuru ku gisenge, imbere yaho hari abantu benshi bari kumirongo bategereje kwinjira bigaragara nkaho ari mu rusengero.

Abagabo bane bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umweru. Hari n'undi hagati wambaye ikanzu yumukara. Imbere yabo hateretse udukombe tubiri ndetse n'umusaraba. Biteretse ku meza ariho agatambaro k'umweru.

Aba mama barindwi bose bahagaze kumurongo. Umwe muri bo afite indangururamajwi, inyuma yabo hazengurukijwe n'ibitambaro isa umweru, bari kubyina, bigaragara nkaho hari ikirori cyabaye.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara ndetse ufite n'ipiki arimo gucukura ahantu mu murima inyuma ye hari abandi bantu bambaye amakanzu y'umweru bari kwitegereza ibyo ari gukora inyuma yabo hari indi nyubako ihubatse.

Abantu benshi bateraniye mu rusengero bamwe baricaye abandi barahagaze, bari kuririmba baramya umwami yesu ibyo yagiye abakorera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo wambaye impuzankano ya polisi ari kumwe n'umudamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bambaye imyenda isa icyatsi.

inyubako nini ngari ifite ibyumba byinshi. Imbere yiyo nyubako haparitse amamodoka menshi agiye atandukanye iruhande rwayo mu modoka hari ibyatsi bitoshye ndetse hateyemo n'igiti.

Inzu ifunguye umuryango, imbere y'umuryango hateretse indabyo mu ivaze risa umutuku, imbere ku muryango handitseho ijambo risebushoni bigaragara ko ari aho bakirira abaje babagana.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye bikorwa n'abantu bakora ubugeni ndetse n'ubukorikori, ifite amakaro asa umweru ndetse na parafo isa umweru, amatara arimo araka mo imbere.

Inyubako nini ngari ifite ibyumba byinshi bitandukanye, imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'ibimera bitandukanye, hashinze kandi ipoto iriho itara rimurika hanze.

Inyubako ndende ya etaje igeretse gatatu, ifite amabara ya oranje ndetse imbere yayo haparitse imodoka ebyiri imwe y'umukara ndetse n'umweru; imbere yayo kandi harisanzuye cyane ku buryo habaye hari izindi modoka zabona aho ziparika.

Umu mama wicaye ahantu uri wenyine, yambaye imyenda ifite ibara ry'ivu, inyuma ye hari izindi ntebe ziticayeho abantu.

Inyubako ya etaje igeretse kabiri ifite udu esikariye tuzamuka tujya muri etaje yo hejuru, imbere yayo haparitse imodoka, ndetse hari undi mwanya uhagije n'izindi modoka zaparikamo.

Icyumba gisa neza kirimo intebe, ibitanda ndetse n'amatara arimo kwaka mu nzu, ifite kandi na parafo isa neza.

Inyubako nini ngari ifite ibyumba byinshi bitandukanye. Imbere yayo haparitse amamodoka, bisa nk'aho ari abaje kuhagana. Imbere yaho gato hari ibyatsi bitoshye bimeze neza.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye bazengurutse ku ntebe zisa umutuku. Baricaye baratuje bari kuganira ku cyateza igihugu cyacu imbere.

Inyubako zifite amabati y'umutuku ndetse n'icyatsi, zikikijwe inkuta ziri mu mabara y'umweru iruhande rwazo hateye ibiti ndetse hari n'ubwatsi butoshye.

Icyumba cyiza kirimo intebe z'imifarizo ndetse hanze yaho hari izindi ntebe zisanzwe z'ibyuma umuntu ushaka kuzicaraho afata akayaga yagenda akazicaraho.

Intebe zisa umutuku, zitondetse ahantu neza. Mo hagati y'izo ntebe hari ameza hariho igitambaro gisa umweru. Ni mu kabari cyangwa se muri resitora ahatangirwa serivisi zitandukanye.

Isoko ricururizwamo imbuto z'amoko agiye atandukanye, imineke, amapapayi, amaronji, ibinyomoro ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, ubaye ushaka imbuto waza ukihahira nta kibazo.

Inkweto z'ubwoko bugiye butandukanye, ziri mu mabara atandukanye. Ziri gucururizwa mu isoko. Hirya yaho gato hari abantu ndetse n'amazu menshi atandukanye y'ubucuruzi.

Umu mama wicaye hasi kuri shitingi isa ubururu. Iyo shitingi hariho ibitunguru byinshi, iruhande rwabyo hari abandi bantu bari kugenda hari n'ibitunguru biri ku munzani, barimo kubipima.

Ibijumba byinshi birunze ahantu, hari n'ibindi bikiri mu mufuka ufite ibara ry'umweru. Hari abantu babiri nubwo batagaragara neza umwe yambaye ikositimu risa ivu undi yambaye ipantaro isa nk'ibara rya gisirikari.

Umuhanda w'igitaka, ukikijwe n'amazu menshi acucitse, harimo kugendamo ibinyabiziga by'ipikipiki byinshi biri kugenda mu merekezo atandukanye, harimo n'abantu bari gutambuka ruhande.

Inyubako irimo ibiribwa bidekoye neza mu buryo bugezweho, hari igikoresho gifite ibara ry'umukara ndetse hari n'amasahani atondetse neza asa umweru, inyuma yabyo hari irido risa umweru ndetse n'urukuta rusa pinki.

Inyubako irimo intebe zitondetse ku murongo zisa umutuku. Ameza ariho ibitambaro bisa umweru hahagazemo abantu benshi bambaye imyenda isa umweru ndetse n'umukara. Hejuru hari igisenge gisa neza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenderamo ipikipiki, umuyobozi uyitwaye yambaye umupira w'icyatsi ndetse na kasike y'icyatsi ahetse gaze ndetse iruhande rwayo hari igiti kihateye ndetse n'inyubako zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye kasike isa umutuku, ahetse umugenzi wambaye ikote risa umweru, inyuma yabo hari undi muntu uri kugenda n'amaguru, hepfo yaho hari izindi nyubako ndetse n'urutsinga rw'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki. Iyo pikipiki iriho abantu babiri. Umumotari ndetse n'umugenzi. Inyuma yabo kandi, hari irindi gare ririmo kugenda mu cyerekezo barimo kuvamo.